Ifoto y'umugabo witwa burayani jonesi imanitse ku cyapa gifite ibara ry'umutuku gikikijweho ibara ry'umweru, impande ye hari ijambo rivuga ngo "sinigeze mbona umunyamategeko nabonye umuturanyi."

telefone ifashwe mu kiganza n'umuntu utagaragara isura hejuru ifite hejuru harimo ibara ry'umuhondo mu ishami rya emutiyene aho umutse hasi hari ijambo riri hagati rivuze ngoyaryanditse risobanura ngo kohereza amafaranga byanga bikunda no kohereza amafaranga akoresheje ishami rya emityene.

Telefoni ebyiri zitandukanye witegereje kuri telefone ifite ibara ry'umweru hejuru haranditse ngo kohereza amafaranga , kohereza amafaranga mu buryo butandukanye naho witegereje kuri telefoni ifite ibara ry'ubururu urabonamo umubare ibihumbi magana atatu gusa no munsi yaho harimo indi mibare itandukanye.

Abantu babiri bari guhana amafaranga ari m'ubwoko bw'inoti biragaragara ko atandukanyije ubwoko kuko ntabwo asa.

Igiti kibajwe n’umuteguro w’utwoba, tune burikobo gatewemo igiti gitandukanye n’ikindi, ariko bikaba bihuriye ku ibara ry’icyatsi. Byose biri mu mavazi afite ibara ry’umweru.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Inzu nziza cyane igizwe n'amarangi y'umweru kuva hasi kugera hejuru, urugi ndetse n'amadirishya by'ibirahure bisize amarangi y'umukara, witegereje hejuru y'aho haravuga hati ibihumbi magana tandatu ku kwezi washobora kubona ibyumba bibiri muri iyi nzu irangiye muri Kigali, i Remera.

Abantu batatu mu nyubako y'igorofa biragaragara ko umugore w'inyuma afite gahunda ze arimo ariko babiri ba umuhungu n'umukobwa umukobwa yambaye ingofero bambaye basi imyenda y'umukara ndetse bagatandukanywa n'inkweto biragaragara ko bafite gahunda barimo kandi bariku umugabo afite ibintu ari gusoma umukobwa we ahagaze nku'wo witeguye gufotorwa.

Impapuro zitandukanye zanditseho RSSB kwibuka ko RSSB ari ikigo gishinzwe ubwishingizi bwiza bukuru buri munyarwanda wese agomba kujyamo mu rwego rwo kwiteganyiriza mu minsi iri imbere y’izabukuru.